Abantu bahuriye ahantu, umubyeyi ufite umwana bisa nk'aho akiri muto amutoreye mu bishura, undi yambaye agapfukamunwa n'indorerwamo z'amaso, ari kumuha ubufasha bujyanye n'ubuvuzi amupima.

Icyapa kigaragaza ko buri wese afite uburenganzira mu kwivuza. Kigaragaza ubufatanye ndetse kikagaragaza ko buri wese akwiye gutanga uruhare rwe mu buvuzi. Turahabona umukobwa ugaragara kuri icyo cyapa, ibimuranga ndetse n'aho abarizwa.

Abantu benshi, higanjemo urubyiruko, abamama, ndetse n'abana bakiri bato, bahuriye ku ivomo rusange, baje kuvoma, bishimiye no kubona ivomo rusange mu gace kabo.

Icyapa kigaragaza ikigo cyita ku bana ndetse kikita no ku buzima bw'umubyeyi n'umwana muri rusange.

Abantu babiri umugore n'umugabo bahuriye ku ivomo rusange baje gushaka amazi, umwe yiteze agatambaro mu mutwe, uwo ni umumama; bafite bose ibivomesho, baje gushaka amazi.

Umwana uri ku ivomo afite ibivomesho bitatu, bibiri bifite ibara ry'umuhondo, ikindi kivomesha kimwe gifite ibara ry'ubururu gipfundikishijwe umufuniko ufite ibara ry'umutuku. Umwana akaba afite akanyamuneza mu maso he, yishimiye gukora ku mazi ahari kuvoma.

Ababyeyi bahuriye ahantu hamwe, bari kumwe n'uri kubapima wambaye imyenda ikoreshwa kwa muganga ufite ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, akaba ari kubipimisha abo babyeyi abereka uko ubuzima bwabo buhagaze.

Umwana wambaye impuzankano bisa nkaho ari umunyeshuri ari ku rukarabiro, akaraba intoki neza n'amazi meza kugira ngo akomeze kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana w'umukobwa, uri ku rukarabiro ariho akaba, akaraba mu ntoki, yirinda indwara ziterwa n'umwanda, kugira ngo agume agire ubuzima buzira umuze.

Abagabo benshi bahuriye ahantu hamwe, bicaye mu buryo bw'uruziga, buri umwe areba mugenzi we, imbere yabo hari udutabo ndetse n'ibirahure byifashishwa mu gushyiramo ibinyobwa. Harimo ibinyobwa bitandukanye.

Umumama ndetse n'umuganga n'umwana muto uri kwitabwaho avurwa yitabwaho n'umuganga wambaye impuzankano ndetse ufite n'ibikoresho bikoreshwa kwa muganga.

Abana bambaye impuzankano, bane muri bo ni abakobwa bambaye impuzankano zisa na babiri b'abahungu bambaye impuzankano zisa. Bakaba bahuriye ku ivomero bagiye kunywa amazi. Bafite ibikoresho byifashishwa mu kunywa amazi.

Umukobwa wishimye ufite umusatsi mwinshi yambaye ipantaro ndetse n'isengeri, yicaye ahantu arishimye bisa naho ari kuruhuka, ari kuruhura ubwonko, yishimiye aho hantu nkuko bigaragara afite akanyamuneza mu maso.

Umugabo wambaye ubushotogoro usa n'aho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, imbere ye hari ikinyamitende cyicaweho n'umuntu wambaye ishati isa igitare.

Umusore w'urubyiruko wishimye afite ubwanwa ari guseka, afite umusatsi, yambaye ishati y'ubururu, inyuma imbere ishati y'ubururu, yambayemo umupira w'ikigina.

Umukobwa ufite imisatsi itsibye ufite n'isaro mu misatsi ye, ufite akanyamuneza mu maso he imbere hari ibikoresho bikoreshwa kwa muganga byita ku buvuzi bw'amenyo.

Abantu bahuriye hamwe bishimye, bashimishijwe n'igikorwa cyabahuje, bisa nkaho bafite akanyamuneza mu maso habo, bafite ibibaranga mu gatuza kabo bigaragara ko bakora umurimo umwe.

Imiryango yahuriye hamwe yishimye nkuko bigaragara mu maso habo bafite akanyamuneza abana babiri, abadamu babiri ndetse n'abagabo babiri.

Umugore n'umugabo bahuriye ahantu hamwe mucyumba cyo kwa muganga, umugore ufite imisatsi miremire ufite igikoresho mu ijosi gikoreshwa kwa muganga, n'umugabo wambaye agapira k'ubururu wishimye bafite n'igikoresho mu ntoki gikoreshwa kwa muganga mu gusuzuma neza ubuzima bw'umuntu.

Abantu bahuriye hamwe, batanga ubufasha bw'ibanze ku muntu ugize ikibazo, abatanga ubufasha bose bakaba bambaye udupfukamunwa, mu rwego rwo kwirinda indwara ndetse no gusakaza no kwanduzanya indwara.

Abantu bahuriye hamwe, bahabwa ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Bakaba bahawe udukingirizo twifashishwa mu kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Abantu babiri umwana na muganga, bari mu cyumba kimwe umwana ubona anejejwe no gukora ku gikoresho umuganga arimo akoresha igihe ari kumuvura, iki gikoresho kikaba gikoreshwa mu buryo bwo gupima umwana ndetse n'abandi bantu batandukanye ku mpamvu z'ubuzima.

Icyumba cyifashishwa kwa muganga mu gupima abarwayi, kumenya uko bahagaze mu buzima bwabo, banamenya indwara zibugaje, babitaho muri rusange.

Abantu benshi bahuriye hamwe bisa nkaho ari ku ivuriro baje kwivuza indwara zitandukanye, aho hantu kandi hari ikinyabiziga gikoresha amapene ane kiri muri iyo mbuga abo bantu bakaba ari benshi.

Abantu batatu bambaye impuzankano, umwe muri bo ni umugabo abandi ni abagore, bakaba bari gusuzuma umurwayi uri imbere yabo bamenya uko ubuzima bwe buhagaze, hakaba hari n'undi mudamu bisa nk'aho yaje aherekeje umurwayi.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi, umuntu uri ku kinyamitende uhetse ikindi gipfunyika, mu busitani bw'ibitaro harimo ibiti, turahabona amatara acanira ibitaro.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, biri mu cyumba kimwe, ibi bikoresho bikaba byifashishwa mu kuvura abaje bagana kwa muganga kugira bitabweho neza.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga bigaragaza icyo icyumba gikora ndetse n'ibikirimo, bigaragaza neza cyangwa biyobora abagenzi n'abarwayi aho bakerekeza.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, umukobwa ufite umusatsi utsibye wambaye wikwije ku ntoki, wambaye impuzankano ariho afite igikoresho gisuzuma kikanumva amajwi, n'uko umwana atera mu nda ya nyina.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga mu kuvura no kwita ku barwayi; harimo ibitanda ndetse bisashe neza mu rwego rwo kwita ku barwayi.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gusuzuma no kwita ku buzima bw'umurwayi, ibikoresho bikaba byifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye z'imbere mu mubiri.

Icyumba giteguye cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gupima indwara zitandukanye z'umubiri, iki cyumba kikaba cyifashishwa no mu kubaga abantu bafite indwara zitandukanye z'umubiri.

Inyubako y'amagorofa yifashishwa mu kwita ku barwayi bizwi nko gutanga ubuvuzi, turahabona igiti cy'umukindo ndetse n'ikinyabiziga mu ruhande rw'buryo.

Icyumba cyifashishwa mu buvuzi bwo kwa muganga, bita ku barwayi barembye, kirimo ibitanda n'imiti yifashishwa kwa muganga. Umugabo uri kumanika inzitiramibu, bisa n'aho ari kwita ku murwayi uri impande ye.

Inzu ifite amagorofa abiri, imbere yaho hari ikinyabiziga, tuzi nk'imodokari ndetse imbere yaho hari abantu, basa naho bategereje kwakirwa.

Inyubako y'amagorofa, abantu babiri umwe ari guturuka mu muryango winjira ugana kuri iyo nyubako, hari ibiti bitandukanye, ndetse n'icyapa kigaragaza iyo nyubako iyo ari yo. Undi ari mu busitani bw'iyo nyubako.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye inkweto z'imyitozo, ikabutura y'imyitozo ndetse n'isengeri y'imyitozo ariho agorora ingingo ze kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Umuhungu uri muri siporo ngororamubiri yicaye hasi yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara yambaye n'inkweto za siporo, ari muri siporo ngororamubiri yicaye hasi arimo agorora akaguru neza yumva ko siporo yazikoze.

Abantu bari mu kigero kimwe barimo mu rungano rumwe bahuriye ahantu hamwe bari kwigishwa uburyo ubutabazi bw'ibanze bukorwa bahabwa n'urugero umwe muri bo yambaye impuzankano itandukanye nabo abandi bose bambaye impuzankano zisa. Bari kwigishwa uburyo ubutabazi bw'ibanze butangwa ku muntu ugize ikibazo.

Imiti yifashishwa mu kuvura uwagize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri, turasangamo amavuta yisiga mu kugira ngo avure imvune zagaragaye igihe yari ari mu myitozo.

Abantu bahuriye hamwe bambaye imyenda ikoreshwa mu myitozo, bakaba bahuriye mu gikorwa cy'imyitozo rusange y'abantu bose mu rwego rwo kwimakaza ubuzima buzira umuze.

Icyapa kigaragaza imyitozo ikwiye gukorwa na buri wese, kugira ngo agire ubuzima buzira umuze, iyo myitozo ikubiyemo kwiruka, kwinanura ndetse igaragaza n'isaha n'iminota ukwiye gukora imyitozo mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi ari mu myitozo, yambaye imyenda y'imyitozo, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze yirinda indwara ziterwa no kudakora imyitozo.

Abasore babiri bahuriye mu cyumba, icyumba cy'imyitozo bafite ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, umwe apfukamishije akaguru ke k'iburyo hasi, ateruye ibikoresho bikoreshwa mu gukora siporo z'umubiri, undi asa nk'aho ari kumwigisha uburyo bikorwa.

Imboga n'imbuto bihuriye ahantu hamwe, ndetse n'ibihembo bigaragaza uwatsinze irushanwa, n'imiti yifashishwa kwa muganga ku barwayi, biri ahantu hamwe mu cyumba kimwe, ndetse biteretse ku gikoresho kimwe.

Igishushanyo kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara, gifite amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umukara n'iry'igitare, kiriho ibindi bishushanyo by'abantu, bigaragaza uburyo bwiza bwo gukoramo imyitozo, kugira ngo abantu bagume bagire ubuzima buzira umuze.

Umusore ufite ibikoresho byifashishwa mu myitozo. Ku kaboko ke k'iburyo igikoresho kimwe kikaba kiriho mu buryo bw'intambike, ikindi kikaba kiriho mu buryo bw'impagarike byosetsa byugikanye bifashe ku mubiri we.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye iri mu gikombe bisa naho bayikamuye bari kugira ngo bagire uwo bafasha kugira ubuzima buzira umuze.

Imiti gakondo ipfunyitswe mu kantu gasa nk'aho kagenewe gupfunyikwamo imiti, imiti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri.

Icyumba kirimo umugabo, Umugabo usa naho ari we ucuruza imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara z'umubiri zitandukanye. Iyo miti ikaba iri ahantu hamwe ifunze mu ibintu bigiye bitandukanye.

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri ukaba wifashishwa n'abantu batandukanye kugira bagire ubuzima buzira umuze.

Amakarita yifashishwa mu kazi runaka, agamije kuyobora abantu, ndetse agamije kwereka abantu icyo umuntu akora, ibi bigaragaza ko umuntu ari mu kazi runaka.

Umuti gakondo ukoreshwa n'abantu batandukanye uwo muti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri harimo inkorora, igicurane n'izindi ndwara z'umubiri uwo muti ukaba witwa umuravumba.

Imiti gakondo itunganyijwe neza, iyunguruwe neza ifunze mu ducupa dutandukanye mu rwego rwo kwanga ko byaza kwangirika.

Akantu k'igitare gafashwe mu kiganza cy'ibumoso, ako kantu k'igitare kakaba gapfunyitsemo umuti gakondo. Ikiganza cy'iburyo kikaba kiri gukura mu muti gakondo.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri iyi miti ikaba yifashishwa kandi n'abavuzi b'indwara zitandukanye mu kuvura indwara z'umubiri.

umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara z'umubiri zitandukanye ukifashishwa kandi mu bigo bitandukanye by'ubuvuzi gakondo.

Icyapa cyifashishwa mu kugaragaza ubuvuzi gakondo, bukoresha imiti gakondo, mu kuvura indwara zigiye zitandukanya z'umubiri, muri iyo miti gakondo icyapa kigaragaza harimo igikakarubamba.